Ku muganga uvura umurwayi birashoboka cyane ko umwe muri bo ashobora kwanduza undi indwara y'ubuhumekero cyangwa indi ndwara yandurira mu guhumeka, rero biba byiza iyo bose bambaye agapfukamunwa kugira ngo birinde kwanduzanya indwara zitandukanye zishobora kwandurira mu buhumekero.

Uyu munsi umuntu aba ari umwana ariko ugasanga ejo yakuze n'ejo bundi kandi akaba agiriye umumaro isi yose, rero ni byiza ko habaho imiryango ishinzwe kwita ku bana kugira ngo ibatoze kuba abantu bakwiriye b'ejo hazaza, umuryango UNICEF wita ku bana.

SIDA ni indwara ihangayikishije isi yose, indwara ishobora guterwa n'imibonano mpuzagitsina, ni indwara ishobora guterwa kandi no guhuza amaraso, umuforomo aba agomba kwirinda, yambara agapfukamunwa, mu gihe ari kuganibiririza abaturage uburyo bakirinda SIDA.

Kumenya uko ubuzima bwo mu mutwe buhagaze ni byiza kandi n'ingenzi rero biba byiza iyo umuntu afashe igihe mu mwaka agafata inshuro nyinshi akajya ku mavuriro yabugenewe, ibitaro byabugenewe bifasha kuvura indwara yo mutwe no gupima ubuzima bwo mu mutwe aho bugeze bakareba ubuzima bwawe bwo mu mutwe uko bumeze kugira ngo umenye uko wirinda nuko witwara.

Umuryango ni ikintu cyiza kandi gishimisha buri wese, rero mu muryango habamo aba ahantu batoya n'abantu bakuru bakuze bageze mu zabukuru, biba byiza iyo musohotse mwese mugategura gusohoka mukajyana n'abantu bakuru kugira ngo na bo bishime kugira ngo bakomeze baboneko bafite agaciro mu muryango.

Hari abantu bakuru batita ku buzima bwabo bishingikirije y'uko imyaka yabajyanye ko ari abantu bakuru ariko birakwiye ko n'abantu bakuru bagira abaganga bo kubitaho kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo, kuko baba bagifite ikintu bamariye abantu muri rusange.

Mu Rwanda hari minisiteri nyinshi zifashishwa gutanga serivisi zitandukanye ku baturage harimo minisiteri y'ubuzima, yo igira umumaro mu gutanga ubuzima ku baturage no kubungabunga ubuzima bw'abaturage muri rusange kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze ari bwiza.

Mu nyubako zo kwa muganga hagomba kuba harimo inyubako zitandukanye, izo nyubako zose zigomba kuba zirimo ibikoresho bitandukanye, zifashishwa n'abarwayi mu gihe bari kwa muganga nk'igitanda kirakenewe cyane kugira ngo abarwayi bajye bakiruhukiraho na matela kugirango ngo abarwayi bajye bayiryamaho mu gihe bakiri kuruhuka n'utubati two gushyiraho ibintu byabo bakeneye by'ingenzi.

Kwa muganga haba hubatswe mu buryo bwiza ku buryo ikintu cyose ushaka umenya aho ugishashakira, niba ari imiti ukamenya aho imiti iba. Kandi imiti na yo iba igomba kuba iri ahantu hatandukanye, mu tubati dutandukanye, kuko ikora ibintu bitandukanye, iba igomba kuba iri ahantu hatandukanye, ku buryo umuntu nashaka umuti w'indwara imwe amenya aho uri, akamenya ko utandukanye n'umuti w'iyindi ndwara.

Mu nyubako zo kwa muganga hagakwiye kuba hariho kandagira ukarabe yifashishwa mu gukaraba intoki kugira ngo twimakaze umuco w'isuku kandi hagakwiye kuba hari ahantu horohereza abantu bafite ubumuga bw'amaguru kugira ngo babone ahantu bacunga akagare harambuye.

Ku byicungo ni ahantu umwana ashobora kujya cyangwa umuntu mukuru akicunga, akaruhura umubiri we, akaruhura mu mutwe we, akabasha kumera neza, ni byiza ko umuntu wese yagakwiye kujya ku byicungo kugira ngo umubiri we umere neza kandi na none byongera ubusabane n'abantu bahuriyeyo kugira ngo bakomeze kuba inshuti.

Imiti yifashishwa mu gukiza indwara zitandukanye, rero hari ahantu henshi dusanga imiti harimo mu mazu yabugenewe acuruza imiti, muri ayo mazu yabugenewe acuruza imiti, haba hagomba kuba hakoramo umuntu wize ibijyanye n'imiti kugira ngo amenye uko atanga imiti bikwiriye.

Siporo ni nziza mubuzima bwacu bwa buri munsi ituma umuntu agira ubuzima nyabuzima, niyo mpamvu umuntu aba agomba gukora siporo buri munsi buri munsi kugira ngo agorore bimwe mu bice by'umubiri we, harimo amaboko byaba byiza yitwaje n'ibimufasha kumva indirimbo kugir ango siporo itamurambira.

Amazi n'ubuzima kandi amazi ni umuti rero mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza ko agendana amazi mw'icupa kugira ngo ayifashishe mu gihe yishwe n'inyota kugira ngo akomeze siporo ye guhagarara, ye gucika intege kuko amazi aba yamuhaye imbaraga zo gukomeza gukora siporo neza.

Mu myitozo ngororamubiri birashoboka cyane ko umuntu avunika bitewe n'ukuntu yakoze imyitozo ngororamubiri, wenda bamuvunnye, rero biba byiza iyo iyo mvune uyifatiranye igishyushye ikimeze neza, akivunika ugahita umufasha kugira ngo akire kugira ngo iyo mvune idafata iyindi ntera, itaba imvune ikomeye.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza, ariko bikaba byiza cyane iyo umuntu ayigiyemo yateguye n'inkweto zo kujyanamo zabugenewe zikwiriye; cyane nko kurira imisozi hari inkweto ziba zarabugenewe, ndende kandi zikomeye zirinda ingaruka umuntu ashobora guhura na zo ari kurira umusozi.

Hari ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukiza indwara z'uruhu cyangwa kurinda uruhu, harimo nka avoka cyangwa igikakarubamba birifashishwa cyane iyo bimaze gucishwa mu ruganda, bivamo isabune nziza yarinda uruhu ibiheri cyangwa yakiza uruhu ibiheri.

Imiti gakondo ni myiza ariko igira umumaro cyane iyo wafashe isekuru ukayishyiramo n'umuhini, ukayisekura kuko ingano yayo iragabanuka bityo bigatuma igira umumaro cyane kurusha uko wakoresha umuti gakondo ari ikibabi kirekire.

Imbuto ni nziza ku buzima bwa buri munsi kuko zifashishwa mu kurinda indwara no kongera intungamubiri mu mubiri wa muntu, muri izo mbuto harimo imineke, harimo inanasi, harimo amaronji birafasha cyane kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza.

Ni byiza ko inganda zidukorera imiti yo kunywa idufasha kurinda indwara no kuzikira; ariko inganda ntabwo ari zo zonyine zikora imiti, hari n'iyindi miti gakondo ihari kandi imiti gakondo iba yizewe cyane kurusha imiti yavuye mu nganda.

Ibimera byacu bikwiye kwitabwaho cyane kuko nibyo biduha imiti, hari imiti bita imiti gakondo iva mu bimera kandi birakwiye ko abantu batoya baganiriza abantu bakuru bababanjirije bakababwira iby'imiti gakondo kugira ngo bamenye ibimera bagomba kwitaho kuko byavamo imiti gakondo.